Ipikipiki iriho abantu babiri, umugabo uyitwaye n'umugore atwaye, ipoto, umuhanda, inzu, ibiti, ikirere n'ibindi.

Abantu, igare, iduka, ibyuma n'umuhanda hirya hubatse amazu ameze nkaho ari amaduka.